Abana batoya bari ahantu hamwe bari kumwe n'abarezi babo, aho akenshi bikunze kugaragara mu mashuri y'amarerero cyangwa se mu mashuri y'incuke, abana batozwa kandi bagakuzwa mu buryo bw'ubwenge, bakagaburirwa hamwe bityo ababyeyi babo bakoroherwa.

Abana bicaye hasi bari kumwe na mwarimu wabo, bari kwiga ibitandukanye aho umwarimu afite igitabo ari kubasomera inkuru zitandukanye, kandi urabona ko abana bakurikiye rwose.

Abana bari ku murongo umwe, bari kumwe n'umurezi wabo ndetse ari kugenda abakarabya umwe umwe, ni uburyo bwiza bwo gutoza abana umuco wo gukaraba igihe cyose, bagiye gufata ibyo kurya, cyangwa se n'ikindi gihe cyose bibaye ngombwa, bakabikurana nk'umuco, kandi biba ari byiza.

Abana bicaye hamwe bafite icyo kunywa igikoma cyangwa se amata, aho bigaragara mu bikoni by'umudugudu abana bafite imirire mibi bajya bakajya kurya ndetse bakabasha kunywa, bityo imirire mibi bakabasha kuba bayivamo mu buryo bworoshye.

Abana batoya biga mu mashuri y'inshuke baje kwigira hanze mu gacaca, kugira ngo ibyo umwarimu wabo uri imbere yabo ari kubigisha babashe kubyumva neza kandi ubwonko bwabo bubashe kuruhuka, ibi ngibi ni byiza cyane kubana bakiri bato.

Abana bicaye ahantu hamwe mu ishuri, bari kumwe n'umurezi cyangwa se umwarimu wabo, akenshi bikunze kubaho mu marerero y'abana batoya cyangwa se mu mashuri y'inshuke, aho abana ubwenge bwabo butyazwa kare kugira ngo mu gihe bazaba bagiye ku ishuri bazabashe gutsinda.

Abana bicaye ahantu hamwe bari kumwe n'umurezi wabo, ari kubaha amata. Kenshi bikorwa mu marerero y'abana mu midugudu, aho abana bari mu mirire mibi bashyirwa kugira ngo babashe guhabwa intungamubiri zikwiriye, babashe kuva mu mirire mibi.

Abana bicaye ahantu hamwe aho bari kugaburirwa, kenshi bikunze gukorwa mu marerero ndetse no mu mashuri y'incuke, aho abana bajyanwa kugira ngo bahabwe ibitunga imibiri yabo, kandi abafite imirire itari myiza babashe kuba bayivanwamo.

Abana bicaye hamwe bahawe icyo kunywa, bikunze kugaragara cyane mu marerero cyangwa se mu mashuri y'inshuke, aho abana bakiri batoya bahabwa ibikwiriye kugira ngo ubwenge bwabo bukure kandi bakanigishwa zimwe mu nyigisho zitandukanye.

Abana bicaye hamwe mu ishuri mu itsinda ry'abana batandatu, bafite ibikinisho by'imfashanyigisho bari gukoresha imbere yabo, aho bifite icyo biri kubigisha kandi bikanongera n'imitekerereze y'ubwonko bwabo.

Abana bicajwe ahantu hamwe ku mukeka, bari kumwe n'umubyeyi wabo kandi bahawe ibyo kunywa birimo igikoma ndetse n'ibindi bizamura intungamubiri zabo, akenshi bino bikorwa ku bana bari mu mirire itari myiza, aho bafashwa kugira ngo bahabwe intungamubiri bityo abari mu mirire mibi babashe kuba bayivamo.

Abana batoya bari mu kigero cy'imyaka kimwe, bicaye ahantu hamwe, bigaragara yuko baje muri gahunda y'irerero, aho bashaka baje guhabwa urukingo se cyangwa se n'ubundi bujyanama buhabwa ababyeyi ariko bazanye n'abana babo.

Abana bateraniye hamwe bari kumwe n'abarezi babo, bari gukina udukino dutandukanye dutuma ubwonko bwabo bukura n'imitekerereze yabo ikaguka kandi kuko ari amashuri y'inshuke bitegura kujya mu yandi mashuri bituma bajyayo bafite ubumenyi ndetse n'ubwenge bihagije.

Abana bari hamwe bari kumwe n'umurezi wabo, aho bari kwiga ibitandukanye harimo gukuza ubwenge bwabo kugira ngo igihe bazaba bagiye ku ishuri bazabe bafite ubwenge bukuze, ibi ngibi bikorwa cyane mu mashuri y'irerero ndetse n'amashuri y'ikiburamwaka.

Abana benshi bari ahantu hamwe, bari kumwe n'abarezi babo babiri babakurikirana, bishoboka cyane ko ari abana biga muri materineri cyangwa se mu mashuri y'incuke, cyangwa se mu marerero agenda ashyirwaho mu midugudu itandukanye, aho abana batyazwa hakiri kare kugira ngo bibategurire kuzajya mu ishuri bameze neza.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bakurikiye mwarimu, mu ishuri ryabo bamwe bicaye ari batanu abandi bicaye ari bane, bigaragara yuko hakiri ubucucike bw'abanyeshuri n'ubuke bw'intebe ziri mu ishuri.

Imfashanyigisho, iriho imibare kuva kuri rimwe kugeza kuri makumyabiri. Ndetse n'uburyo isomwa, mu rurimi, rw'igifaransa. Ibi ngibi bifasha, abanyeshuri, kwibuka. ndetse no gusoma kenshi, iyi mibare. Mu gihe cyose bari kuyiga kandi bikabafasha kubifata mu mutwe.

Abana b'abanyeshuri, bicaye mu itsinda, aho bafite ibitabo bibiri, ndetse umwe ari kwandika, bishoboka cyane yuko bari gukora umukoro mwarimu yabahaye, kugira ngo bifashishe ibitabo, kandi bakore mu matsinda kugira ngo babashe kungurana ubumenyi.

Igikoni kinini cyane nka movero eshatu, biragaragara yuko ahari ari igikoni gishobora kuba gikoreshwa cyane cyane ahantu hari abantu benshi, mu magereza, mu mashuri n'ahandi.

Imfashanyigisho z'abanyeshuri, ni imifuka iciye ishushanyijeho amasaha, aho bagenda bigiraho kubara amasaha mu buryo bwiza, kandi abanyeshuri bafashwa cyane n'imfashanyigisho kubera yuko kwiga ibintu babireba ni byiza kurusha kwigana ibintu batabireba.

Ibitabo biri ku meza bya siyansi by'umunyeshuri byo mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza, byifashishwa n'abanyeshuri kugira ngo ibyo mwarimu yabigishije na bo ubwabo babashe kubyisomera kandi n'ibyo atagezeho babashe kubisobanukirwa mu buryo bwimbitse.

Mu ishuri ikibaho cy'umukara. Kiri kwerekana ishusho y'umuntu n'ibice bigize umubiri w'umuntu. Ni imfashanyigisho iri kwifashishwa n'umwarimu yigisha abana, aho babasha kumenya ibice bigize umubiri wabo.

Imfashanyigisho imanitse ku gikuta, iri kugaragaza ibikoresho byifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi harimo umuhoro, isuka, igitiyo, ingorofani ndetse n'ibindi abana bifashisha mu gihe bari kwiga kandi bakabasha no kubifata mu mutwe vuba.

Icyumba cy'ishuri kirimo umunyeshuri ndetse n'umwarimu we, ndetse hariho n'intebe iteretseho amakaye ndetse n'ibitabo by'abanyeshuri, kandi ni ishuri ritarimo ubucucike bw'abanyeshuri ndetse n'intebe ni nkeya, kugira ngo abanyeshuri bige bisanzuye.

Amasahani ari ku murongo abana bari kwarurirwa ibyo kurya mu masaha ya saa sita, gahunda nziza Leta y'u Rwanda yo kugaburira abana ku ishuri mu masaha ya saa sita kugira ngo bibarinde gukererwa kandi bibafashe mu myigire yabo kuko baba bariye neza.

Umugozi muremure wa raronje ucometseho indi migozi mitoya y'icyatsi, ikaba ari imigozi icomeka laptop ntoya abana bo muri pirimere bakunze gukoresha bigiraho ikoranabuhanga, izo mashine zikaba zaraje muri gahunda yitwa one laptop per child.

Ibitabo by'imibare byo mu wa kabiri bine birambitse ku meza mu Ishuri, kandi ni ibitabo by'umunyeshuri.

Urupapuro runini cyane rumanitse ku idirishya rwerekana ingengabihe y'uburyo amasomo atangwa guturuka kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, isaha ku isaha, bino bifasha abanyeshuri kumenya isomo bagiye kwiga kandi bakanamenya n'uburyo bari buze ku ishuri baryiteguye.

Banderore nini imanitse ku ishuri imbere hafi y'ikibaho yerekana ibice bigize laptop cyangwa se computer muri gahunda yo kwigisha abana computer, bahereye ku bice biyigize ndetse bagakomeza n'ibindi bikurikiyeho.

Ishuri ririmo intebe za pipitire, ziteye mu buryo bwiza ntabwo zicucitse. Kandi buri mwana wese abona aho yicara akiga neza atari kubyigana na mugenzi we. Imbere hari ikibaho. Ibi ngibi bituma abana biga neza badacucitse kandi bakabasha gukurikirana amasomo bahabwa na mwarimu, na mwarimu bikamworohera mu buryo bwo kugenzura abanyeshuri.

Ikibuga cya basikete ndetse gishobora no gukinirwamo volleyball kimeze neza gisa neza kandi kiri mu kigo cy'amashuri ahitwa i Gatagara gikinirwamo n'abanyeshuri ndetse n'abakozi.

Imfashanyigisho ebyiri zimanitse ku gikuta cy'ishuri, zishushanyijeho ibimenyetso by'amarenga, aho byifashishwa n'abantu bafite ubumuga bwo kutavuga ndetse no kumva, kandi bagenzi babo bakabasha kubimenya kugira babashe gushyikirana mu buryo bworoshye.

Abana b'abanyeshuri babiri, bafite aga computer ndetse bari bacomeka kugira ngo babashe gukoresha, ni gahunda leta yazanye yitwa One Laptop per Child, ifasha abanyeshuri kugira ngo ubumenyi bwabo bw'ikoranabuhanga buzamuke bakire mu mashuri matoya.

Abana b'abanyeshuri bari ku ishuri. Bateruye akabase karimo ibyo kurya bagiye kurya. Iyi ni gahunda nziza leta yashyizeho yo kugaburira abana ku ishuri mu masaha ya saa sita, ntibatahe murugo kugira ngo bitabagora kugaruka.

Umupira wo gukina mu cyaro bakunze kuwita karere, abana bawubanga bakoresheje, imyenda ishaje, amashashi bagiye batoragura hirya no hino, ndetse bakawubangisha kenshi ibirere cyangwa se imishipiri cyangwa se indi mishumi ikomeye cyane.

Imfashanyigisho imanitse mu ishuri ishushanyijeho ibikoresho byifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi, harimo isuka, rozwari, umuhoro n'ibindi, aho bifasha abanyeshuri kubifata vuba bitewe nuko baba bari kubireba kandi basanzwe banabibona iwabo.

Imibare yanditse ku kibaho guhera kuri magana inani na rimwe kugeza kuri magana cyenda, bishoboka cyane yuko ari abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere bari kwiga kubara bageze kuri iyi mibare kandi bayandika hano kugira ngo buri munyeshuri wese uri mu ishuri ajye imbere asome guhera kuri uriya mubare kugira ngo bamenye niba ari kubifata.

Imfashanyigisho zimanitse mu ishuri, zerekana amashusho ndetse n'amabara, aho bifasha abanyeshuri gufata mu mutwe vuba kandi abanyeshuri ubwabo kenshi ni bo babyishushanyiriza, bityo bakabasha kubimenya bitabagoye.

Icyapa, kiri ku ishuri rya H.V.P Gatagara, kiriho indangagaciro, ndetse na kirazira. Aho abanyeshuri babasha kumenya ibyo bakwiye gukora, kandi bakazibukira ibibujijwe, harimo guta ishuri, kugira umwanda, ndetse n'ibindi byinshi.

Abana bari hamwe bari kumwe n'umurezi wabo, barafatanye bari gukina udukino dutandukanye, aho bituma ubwenge bw'abana bukura kandi bakabasha kunezerwa, ibi ngibi no mu gihe bari mu ishuri bakabasha gufata mu mutwe ibyo mwarimu yabigishije.

Igikuta gishushanyijeho amashusho atandukanye, harimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, abanyeshuri batatu, byerekana ko ari ikigo k'ishuri giherereye hano hantu.

Icyapa kinini, kiri ku muhanda, kiranga ikigo cya HVP Gatagara, aho ari ikigo gitanga ubuvuzi ku bantu bafite ubumuga, kandi hari n'ikigo cy'amashuri, cyigirwamo n'abana bafite ubumuga, ndetse abaturutse impande zose baza kuhagana kugira ngo bahige.

Ishusho ishushanyije ku gikuta gishoboka yuko ari igikuta cy'ishuri, irimo umwana ufite ubumuga wicaye mu igare ndetse afite ikayi imbere ye ari gusoma. Ibi ngibi bikaba ari gahunda ya leta y'uburezi budaheza kandi uburezi kuri bose, cyane cyane ku bafite ubumuga.

Abana bari ku ishuri baje kunywa amazi kuri iyi siterine ifite amazi, aho bakavoma bakanywa nyamara mu gihe akenshi ataba ari meza, kubatera ibibazo byinshi birimo indwara zo mu nda, ibicurane ndetse n'ibindi.

Ikigo cy'amashuri kirimo abana bari gutaha bava ku ishuri, aho hari ibiti biteyemo ndetse hari na jaride nziza irimo ituma abanyeshuri babona aho bisanzurira mu gukina kandi bakabasha kubona umwuka mwiza wo guhumeka mu gihe bari mu kigo.

Impapuro ndetse n'ibindi bisigazwa bikomoka mu ishuri, byanyanyagijwe mu nzira, bikaba ari bimwe mu byangiza ibidukikije, mu kimbo cyo gukora ibi ngibi bikwiye gushyirwa hamwe bigatwikwa kugira ngo bidakomeza guteza umwanda mu bidukikije.

Akabati gashyirwamo amakayi ndetse n'ibitabo by'abanyeshuri, aho bituma mu ishuri abanyeshuri amakaye yabo ndetse n'ibitabo byabo bigira umutekano kandi bikabikwa ahantu hizewe yaba ibijyanye no kuba yacika cyangwa se ibijyanye no kuba yabura.

Umwarimu ari imbere arikwandika ku kibaho imibare ari kwigisha abana ndetse afite ibitabo imbere ye ari kwifashisha kugira ngo abashe gutanga ubumenyi bukwiriye abana ari kubuha.

Abanyeshuri, urubyiruko rwiganje cyane, bakoraniye ahantu mu kibuga bamwe bicaye ku ntebe ndetse hari amabandelori amanitse, ari kuvuga ku ngingo runaka baje guhugurwaho cyangwa se baje guhabwaho amakuru atandukanye.

Abanyeshuri bicaye hamwe muri salle, aho bari guhabwa ibiganiro cyangwa se inyigisho zitandukanye, buri wese afite ikayi ndetse n'ikaramu ari kwandikaho zimwe mu ngingo z'ingenzi zo kwitabwaho cyane mu biganiro bari guhabwa.

Abanyeshuri bateraniye hamwe mu kibuga, ndetse n'umurezi wabo uri imbere yabo, ubaha amabwiriza ku ngingo runaka bari kuganiraho, yaba ijyanye n'amasomo ndetse n'ijyanye n'imyitwarire yabo isanzwe mu kigo.

Abanyeshuri bicaye mu kibuga hagati ku ishuri, umwarimu cyangwa se umurezi cyangwa se umuyobozi w'ishuri ahagaze imbere yabo, ari kubaha imbwirwaruhame kuri gahunda runaka, bashaka gukangurira abanyeshuri.

Abanyeshuri bari muri Gare, mu gihe cyo kuva cyangwa gusubira ku ishuri, aho bafite ibikoresho byabo, aho bashakirwa imodoka zibajyana zimwe, kugira ngo umutekano w'ibintu byabo ndetse n'umutekano wabo ube urinzwe neza.

Mu ishuri umwarimu arigisha abanyeshuri, ikibaho cy'umukara, imfashanyigisho zimanitse hejuru yacyo kandi n'abanyeshuri baricaye bari kwiga basa nka bakurikiye ibyo ari kubandikira.

Abanyeshuri bicaye ahantu mu ishuri, bakoze uruziga, ndetse umurezi wabo ari kubaha inyigisho cyangwa se ikiganiro runaka, ku ngingo zitandukanye, kenshi na kenshi ingingo zijyanye n'amasomo cyangwa se n'izijyanye n'imyitwarire yabo mu ishuri.

Ibitabo byinshi bimanitse mu tubati, bishoboka cyane yuko ari isomero ry'abanyeshuri ndetse n'abandi bantu bakeneye gusoma, ibi ngibi bikaba byongera ubumenyi ku bantu basoma ibitabo kandi n'ibyo bize mu ishuri cyangwa se n'ahandi hose, bikabasha gufatika mu buryo bworoshye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bicaye ahantu hamwe, bari guhabwa ibiganiro n'abarezi ndetse n'abayobozi babo, ku ngingo zitandukanye zishobora kuba ziganjemo iz'amasomo yabo, ndetse n'izindi ngingo ziri hirya y'amasomo, kugira ngo abanyeshuri babashe guhabwa ubumenyi bwinshi kandi butandukanye.

Abanyeshuri bicaye ahantu hamwe ndetse n'abandi bari imbere yabo bari kubasobanurira ku ngingo zitandukanye, aho bari kubasaba ibitekerezo abandi nabo bakamanika amaboko kugira ngo basobanure ibyiyumviro byabo ndetse n'uburyo bumva kungingo bari kuganiraho.

Akabati ndetse n'intebe biri mu ishuri inyuma y'aho hari ikibaho cy'umukara, byerekana ko abanyeshuri bigamo hano bafite aho gushyira ibitabo bya bo mu buryo bwizewe kandi n'ibikoresho by'ishuri bikaba birinzwe mu buryo bwizewe.

Abanyeshuri muri gare, bari gupakira ibikapu byabo, bari kuva cyangwa bajya ku ishuri, aho bagiye kwiga, kandi bagendera mu modoka zimwe kugira ngo umutekano wabo ndetse n'ibintu byabo ubashe kurindwa neza, babashe kugera ku ishuri amahoro.

Abanyeshuri bicaye hasi, kandi bakurikiye ibyo umuyobozi wabo uri imbere ari kubabwira, bicaye ku zuba rya bishe, bamwe bari gusinzira bitewe n'ibiganiro biri gutangwa; hari n'igihe bitaba bibaryoheye, bamwe bagahitamo kwisinzirira.

Abanyeshuri bahetse ibikapu, bari ahategerwa imodoka, bari kwinjira mu modoka bava cyangwa se bajya ku ishuri, muri gahunda yo gutwara abanyeshuri bagendera hamwe kugira ngo umutekano wabo ndetse n'ibintu byabo ube urinzwe neza.

Abana b'abanyeshuri bicaye mu cyumba bigiramo isomo ry'ikoranabuhanga, buri wese afite imashini, bari kwiga ndetse bafite n'amakayi n'amakaramu, aho bandika bimwe mu byo bari kwiga kugira ngo bibafashe kugira ngo bataza kubyibagirwa.

Mu ishuri abanyeshuri bicaye bakurikiye umwarimu uri kubigisha uri imbere yabo, abanyeshuri bicaye ari benshi ku ntebe, bigaragaza ubucucike bw'abanyeshuri mu ishuri, bituma abanyeshuri batabasha gukurirana neza mwarimu n'ibyo abigisha.

Abanyeshuri benshi bateraniye ku kibuga ahakinirwa umukino wa basket, bamwe bagiye gukina umukino ndetse hari n'abafana babo, aho baje kureba uko bagenzi babo bakina. Ibi ngibi byongera ubufatanye kandi bikongera ubucuti hagati y'ibigo bibiri bigiye guhura.

Amarembo y'ishuri rya Groupe Scolaire Officiel de Butare, ahakunze kwitwa Indatwa n'Inkesha. Ni ikigo cyo hambere, kandi kizwiho gutanga uburezi ndetse n'uburere bufite ireme, kubera y'uko abanyeshuri bahiga batsinda ibizamini bisoza amashuri yabo neza cyane.

Abanyeshuri bahetse ibikapu, abandi babifashe mu ntoki bari kwerekeza mu modoka ya vorukano igiye kubatwara aho batuye, ni gahunda nziza leta ishyiraho yo gutwara abanyeshuri; yaba ari ukubavana iwabo basubiye ku ishuri cyangwa se kubavana ku ishuri bagiye mu biruhuko bakagendera hamwe kugira babashe kugerayo amahoro.

Abanyeshuri bicaye ahantu muri sale bari guhabwa ubutumwa na polisi cyane cyane bikunze kubaho mu gihe polisi ifite ibyo ishaka guhugura no kwigisha abana kubijyanye n'imyitwarire, harimo ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu mashuri.

Amarembo ndetse n'icyapa kinini cyanditseho ishuri rikuru ryisumbuye rya Saint Esprit Nyanza riherereye mu karere ka Nyanza, ahatangirwa uburezi mu nzego zitandukanye yaba ari mu cyiciro rusange ndetse n'amashuri makuru.

Abanyeshuri batandukanye bahetse ibikapu bari kuva cyangwa se bari kwerekeza ku ishuri bari kwinjira mu modoka, aho ari gahunda nziza yo kugira ngo abanyeshuri bajye bagendera hamwe kugira ngo umutekano wabo ukurikiranwe, babashe kuva cyangwa se bagere ku ishuri amahoro.

Abanyeshuri bicaye ahantu hamwe muri sale bari guhabwa ibiganiro n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha (Ribu) ku bintu bitandukanye harimo kwirinda ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi byaha byose bishobora kwibasira abanyeshuri.

Abanyeshuri bari ahategerwa imodoka muri gare bari kuva cyangwa bari kujya ku ishuri, bahawe imodoka zibajyana, zimwe mu rwego rwo kurinda umutekano w'ibintu byabo ndetse n'umutekano wabo ubwabo, aho zibasha kubageza ku ishuri amahoro.

Akabati karimo ibitabo bigiye bitandukanye abanyeshuri n'abandi bantu bashobora kwifashisha mu kubisoma, bityo bigatuma mwarimu atavunika ndetse n'umunyeshuri akabasha kubona ubumenyi burenze kure cyane ubwo mwarimu yamuhaye mu ishuri, bityo ubwenge bukarushaho kugwira.

Abana bicaye bashobora kuba ari abana b'abakobwa. Ndetse imbere yabo hari umwarimu cyangwa se umurezi uri kubahugura. Birashoboka cyane ko yaba ari kubahugura ku ngingo ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kugira ngo abana basobanukirwe kandi bamenye neza ibijyanye n'imihindagukire y'umubiri wabo.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bafite aho bari kwerekeza amaso, ni imbere kuri porojegisiyo aho bari kwifashisha porojegiteri kugirango ngo babashe kwiga, biga neza mu buryo bworoshye kandi ibyo bari kureba bakabibona uko byakabaye bitashushanyijwe ku kibaho aho bitakaza umwimerere.

Ishuri ririmo abanyeshuri benshi bicaye neza, badacucitse, kandi mwarimu wabo nawe ari kubigisha yifashishije mudasobwa, ibi ngibi ni byiza cyane kubera yuko bituma ubumenyi bari kubona bubasha kwiyongera, kandi buri kintu cyose bashaka kureba bakakibona mu buryo bworoshye, kubera ikoranabuhanga.

Abanyeshuri babiri, bari gukora amasuku, bahanagura amadirishya y'ishuri bigamo, ibi ngibi ni byiza kuko bituma abanyeshuri bigira ahantu hari isuku, bityo n'indwara zandurira mu mwanda zikaba zitahabona urwaho, kandi bakigira ahantu hasa neza, n'ubwenge bwabo bugakura.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari gukora ikizamini, buri munyeshuri yicaye ku ntebe ye kandi umwarimu ari imbere kugira ngo acunge neza yuko amabwiriza yose y'ikizamini ari kubahirizwa na buri munyeshuri wese.

Abanyeshuri bicaye ahantu hamwe, ndetse n'umuyobozi wabo uri kubaha ikiganiro ndetse n'umunyeshuri umwe muri bo uri gutanga igitekerezo cyangwa se uri gusubiza kimwe mu bibazo cyangwa se ari kubaza ku ngingo runaka umuyobozi wabo ari kubaganirizaho.

Abanyeshuri bicaye hamwe, imbere yabo hari abarezi cyangwa se abarimu, baje kubigisha no kubahugura ku ngingo runaka zisanzwe cyangwa se zijyanye n'imyigire yabo ndetse n'imyitwarire yabo ku ishuri.

Abanyeshuri bicaye hamwe bari kureba ibiri imbere kuri porojegiteri, aho bifasha imyigire yabo bitewe n'uko ni ikoranabuhanga ryifashishwa kugira ngo ikintu cyose bareba bakirerebe uko kimeze bitanyuze mu kuba umwarimu yabandikira, rimwe na rimwe akabandikira nabi.

Amakipe abiri atandukanye harimo bamwe bambaye iby'icyatsi abandi bambaye iby'umutuku bagiye gukina umukino, ndetse bari guhabwa amabwiriza agomba kubagenga mu gihe bari gukina uyu mukino. Bitewe na siporo cyangwa se imikino yongera ubucuti aho kuzana urwango.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bari kwiga, nubwo harimo intebe zicayeho abantu batatu ariko ntabwo ubucucike ari bwinshi, ndetse no mu ishuri harimo ubwisanzure bityo umwarimu uri imbere akabasha gukurikirana buri munyeshuri wese n'ugize ikibazo akaba yamubaza, kandi akamusubiza mu buryo bwihuse kandi bworoshye.

Umunyeshuri afashe igitabo ari gusoma. Kandi inyuma ye ndetse n'impande ye hari ibindi bitabo byinshi. Aho ibi bizamura ireme ry'uburezi, bitewe n'uko umunyeshuri abasha gukurura amakuru ashaka yose binyuze mu bitabo byagiye byandikwa bitandukanye.

Abanyeshuri bari ku ishuri bakoze imirongo, mbere y'uko bajya mu ishuri babanza guhabwa amabwiriza asanzwe yaba ari mu myigire ndetse n'imyitwarire ndetse n'uburyo gahunda z'umunsi ziteye mu kigo kugira ngo hataza kugira kubusanya kwabonekamo.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe mu buryo bugezweho, aho ari amashuri ageretse. Ibi ngibi ni muri gahunda nziza Leta y'igihugu ifite yo kugabanya ubucucike bw'abanyeshuri, bityo abarimu bakabasha kubona uko babitaho, atari benshi mu ishuri.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, aho intebe imwe igiye yicayeho abantu bane, byerekana ubucucike bw'abanyeshuri nubwo budakabije, ariko Leta iri kugenda irushaho kubaka ibindi byumba by'amashuri, kugira ngo kino kibazo kibashe gukemuka vuba.

Abanyeshuri bicaye hanze, aho bari guhabwa ibiganiro, cyangwa se inama zitandukanye n'abayobozi babo. Ku ngingo zitandukanye, bishoboka ko zaba ari ingingo zijyanye n'imyigire, cyangwa se iby'ubundi buzima busanzwe.

Abana bicaye imbere y'ameza bari kurya ibiryo bitandukanye. Harimo umuceri, ibishyimbo kandi ibishyimbo birimo imboga. Ibi ngibi ni gahunda nziza y'Igihugu yo kugaburira abana ku ishuri, kugira ngo imyigire yabo izamuke, kandi bifashe n'ababyeyi babo gukora indi mirimo, mu gihe basigaye mu rugo.

Abanyeshuri bicaye hamwe mu gisambu, bigaragara yuko ari ku ishuri, basa nkaho bari guhabwa amabwiriza cyangwa se ibiganiro ku nyungu runaka n'abayobozi babo cyangwa se abarimu babo.

Abanyeshuri bahetse ibikapu bigaragara ko biga mu mashuri yisumbuye, bikunze kugaragara cyane ku banyeshuri biga mu mashuri bigamo bataha azwi nk'uburezi bw'ibanze, kandi bikaba byaraje gukemura ikibazo cy'ubushobozi ababyeyi bamwe bajyaga bagira, bityo abana bagahagarika amashuri.

Inyubako y'icyumba runaka cyanditseho OR mirongo itatu na gatandatu, byerekana yuko ishobora kuba ari ishuri cyangwa se ari ibiro by'ubuyobozi bikoreramo hano.

Inyubako ndetse n'ubusitani buri imbere yayo, ibi ngibi bikaba bigaragara muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho abanyeshuri bahiga bishimira cyane y'uko izi ndabyo zituma hagaragara neza kandi zikabaha umwuka mwiza.

Ubusitani bwiza, buherereye muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Buba burimo ibiti byiza, bitanga umwuka mwiza. Ndetse abanyeshuri bashobora kujya munsi, bakica mugihe bari kuruhuka. Kandi ugasanga, kaminuza iracyeye rwose.

Icyapa ndetse n'amarembo, byerekana ishuri rikuru rya IPRC Huye, ahatangirwa ubumenyi butandukanye bwiganjemo ubumenyingiro mu bijyanye n'amashami y'ubwubatsi, ubukanishi, ikoranabuhanga n'ibindi.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye mu nzira bava kandi berekeza ahatandukanye, ahangaha haba hari abanyeshuri benshi bari kuva gusenga, abandi bari kuva muri gahunda zitandukanye.

Imbere muri campus ya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, urujya n'uruza rw'abanyeshuri bamwe baba bari kuva kwiga, abandi baba bari kuva kurya, abandi baba bari kuva mu marumu n'amahostel babamo bajya ahatandukanye, ni ahantu haba abanyeshuri benshi cyane.

Abagabo bicaye basa n'abari mu nama buri wese afite imashini imbere ye, icupa ry'amazi ikaramu basa nk'aho bari gufata utu note bitewe n'ibyo bari kwiga cyangwa se ibiwe n'ibyo bari kuganiraho mu nama.

Ikibaho kinini kiri imbere, hejuru yacyo hariho porojegiteri yifashishwa mu kwerekana ibintu biri ku mashini ikabigira binini kandi abanyeshuri bakabasha kubibona neza, cyangwa se n'abandi bantu bari gukoresha kino cyumba mu nama n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Icyumba cyo kuraramo kirimo ibitanda bibiri bishashe kandi kirimo ibikenewe by'umwihariko harimo utubati tw'inkweto ndetse n'aho gutekareka ibindi bitandukanye, bishoboka cyane yuko ari aho abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye barara, hakaba hari amacumbi meza kandi afite ibikwiye byose.

Imashini yo mu bwoko bwa Lenovo, iteretse ku meza ahantu bigaragare yuko ari muri saro, hashobora kuba hari cyangwa se hatuye abanyeshuri bitewe n'uko abanyeshuri bo muri UR, izi mashi ni zo bari guhabwa kugira ngo zibafashe mu myigire yabo, nyuma y'uko Postivo yajyaga ibaha imashini zigapfa mu buryo bworoshye.

Inyubako yigirwamo n'abanyeshuri iherereye muri kaminuza y'u Rwanda ndetse imbere y'aho hari ubusitani bwiza buteyemo indabyo kandi bukoze neza bubereye ijisho, aho abanyeshuri bahigira babasha kubona aho kuruhukira kandi hameze neza.

Muri laboratware ahifashishwa utu dukombe kugira ngo bahinge microbe kandi babashe kumenya ibyo zirya. Bityo nyuma yo kumenya ibyo zirya binafasha kumenya iyo microbe iyo ariyo no kumenya umuti uzayivura. Ibi ngibi byifashishwa muri laboratware cyane cyane ku bantu biga ibijyanye n'ubuzima.

Akaravabo gatoya kari iruhande rw'ameza, ndetse hariho na miruwari. Icyumba kibarwamo n'abanyeshuri cyangwa se n'abandi bantu abo aribo bose. Aho hari ibikenewe kugira ngo abanyeshuri babashe kubona uko bakora amasuku yabo. Isuku yabo ndetse yaba n'isuku y'icyumba barimo.

Ishuri ryigirwamo. Ririmo, porojegiteri hejuru. Ndetse hasi hari ikibaho cyandikwaho, ndetse n'ikibaho babasha guporojegitingaho ibintu. Aho byorohera umwarimu, ndetse n'abanyeshuri, kuba bakurikirana amasomo, ari gutangwa, mu gihe cyose.

Icyapa cyerekana ubwiherero giherereye mu nyubako ya Kaminuza y'u Rwanda ahigirwa abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi cyerekana ahaherereye aho toilette ndetse na washrooms biri kandi biyobora abanyeshuri neza kugira ngo babashe kumenya aho ari ho.

Agashyamba keza karimo ahantu heza ho kuruhukira, ndetse kagatanga umwuka mwiza, kakaba gaherereye muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye mo imbere, ndetse hari n'umuhanda unyuramo, aho kuhatemberera biba byiza cyane.

Igikarabiro cyubatse neza, kiri imbere y'ahafatirwa amafunguro, ibi ngibi bikaba byongera umuco wo gukaraba intoki, aho birwanya indwara zishobora kwandurira mu mwanda kandi mbere y'uko umunyeshuri yinjira kugira ngo afate amafunguro abanza gukaraba.

Inyubako ndende yubatse yerekana ishuri rikuru rya Kaminuza rya PIASS, riherereye ahitwa ku Itaba mu Karere ka Huye, rikaba ari ishuri rimaze igihe kandi ritanga uburere ndetse n'ubumenyi bifite ireme mu kuzamura uburezi bw'igihugu.

Indangururamajwi yubakiye kandi isakaye, ibarizwa muri kaminuza y'u rwanda ishami rya huye, aho yifashishwa na radiyo ihakorera yitwa agaciro, mu kwamamaza ndetse no gusakaza amakuru mu kigo, mu banyeshuri baba bagiye bahatuye cyangwa se abahagenda.

Inyubako iri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ikoreramo adiminisitarasiyo, imbere yayo hari parikingi, ndetse hateye indabyo muri jaride nziza cyane. Aho muri ino minsi hakozwe, kandi iyo uhabonye ubona habereye ijisho rwose.

Amacumbi y'abanyeshuri yubatse muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, ababwamo n'abakobwa, aho afite ibice bitatu kandi hakabamo abanyeshuri benshi, bityo kugira babashe kujya kwiga bikaborohera bitewe n'uko ari hafi y'aho bigira.

Akabati karimo ibitabo bitandukanye, Biology, Chemistry, Geography, muri gahunda yo gukangurira abana bari ku ishuri gusoma no kongera ubumenyi bwabo mu masomo biga atandukanye.

Icyumba cy'ishuri kirimo porojegiter imanitse hejuru yifashishwa mu masomo, aho umurezi cyangwa se umwarimu ugiye gutambutsa isomo abasha kwerekana ibiri mu mashini ye akoresheje ino porojegiteri abanyeshuri benshi bari mu ishuri bakabasha kureba imbere bakabona ibyo ari kwerekana.

Abantu babiri bambaye imyambaro isa ndetse bafite umweyo bari gukora amasuku, kuri jardin yinjira ku marembo y'ahitwa i Mamba, hari amashuri yigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye.

Inyubako nini yitwa Batiment iherereye muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, ikunze kwigirwamo n'abanyeshuri biga mu ishami rya CASS cyane cyane, uretse ko n'abandi bashobora kuza kuhigira.

Ibitabo bitandukanye biri mu kabati mu isomero, aho abanyeshuri ndetse n'abandi bantu batandukanye bashishikarizwa kuza gusoma kuko gusoma ari isoko y'ubumenyi kandi bituma n'abarimu biborohera kuko ibyo babigishije na bo babasha kubyisomera ubwabo.

Mu ishuri mo imbere, ikibaho kinini k'icyatsi cyandikishijweho ingwa y'umweru, cyandika imibare ndetse hari n'ibihashushanyije bibiri, byerekana yuko abanyeshuri bari kwiga isomo ry'imibare.

Amazu yubatse acumbikirwamo abanyeshuri baba muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye ndetse n'ubusitani buri hino yayo n'agashyamba, aho ibi ngibi bituma hagaragarara neza bakabasha kubona umwuka mwiza kandi ibidukikije bikabasha gufatwa neza.

Ikibuga kinini cyane gikinirwamo umupira w'amaguru giherereye muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ndetse n'abakozi bahakorera baza gukorera imyitozo ngororamubiri , harimo nko gukina umupira w'amaguru.

Intebe ziri ahantu hamwe hashobora kuba ari mu ishuri, ni intebe zifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga, cyangwa se n'abandi bantu bashobora gukenera icyo cyumba cy'ishuri kugikoresha ibintu bitandukanye, harimo amanama ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Icyapa cya IPRC Kitabi cyerekana ibihari amafakilite ahari, harimo tourism, natural conservation ndetse na forestry, ikaba ari rp branch cyangwa se ishami rya Kitabi.

Icyumba gifite isuku kandi kirimo imyenda imanitse hejuru, ndetse n'ibindi bikoresho harimo amavuta, amasabune, telefone, isaha, ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku bisanzwe, bishoboka yuko cyaba ari icyumba cy'umunyeshuri.

Icyapa cyerekana piyasi y'iyi campisi, Ni kaminuza y'abaporotesitanti, ishami rya Huye iherereye ku i Taba. Ni kaminuza mu bigaragara iri gutera imbere, kandi irigufasha uburezi bwo mu Rwanda, kujya mbere.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe, izi ntebe zikunze kugaragara cyane muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ahigirwa n'abanyeshuri batandukanye kandi ni intebe ziba zikomeye, ndetse zifasha umunyeshuri kubona aho yashyira ikayi mu gihe ari kwiga.

Inyubako ndende ibabwamo n'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, izwi ku izina rya Bengazi, ibabwamo n'abakobwa, ni inyubako igizwe n'ibice bitatu, inyubako nini cyane ibasha kwakira abakobwa benshi.

Uburiri bushashe neza inyuma yabwo hari akandi kabati karimo ibindi bikoresho, harimo amavuta ndetse n'ibindi byifashishwa, byerekana yuko ari icyumba cy'umunyeshuri kandi ni icyuma gisukuye gisa neza mu bigaragara.

Icyapa kinini cyerekana aho Kaminuza y'u Rwanda Ishami rya Huye iherereye, ni icyapa kiri hafi y'umuhanda kandi kaminuza y'u Rwanda iherereye mu Karere ka Huye, umanuka umuhanda uva muri gare uherekeza ahitwa ku Mukoni ndetse abantu benshi barahazi cyane.

Inzu ikinirwamo siporo zitandukanye. Iri muri kaminuza y'u Rwanda izwi nka Jimunase. Aho hakinirwa imikino itandukanye harimo, basikete, vole, sitingi n'indi itandukanye. Mu rwego rwo kuzamura impano, zibarizwa muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye.

Sare nini yitwa meyini odituriyumu iba muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ahakunze guhurira abanyeshuri benshi mu bikorwa bihuza abanyeshuri cyane, harimo nko kureba umupira, ndetse n'izindi nama zihuza abanyeshuri benshi. Ni sare nziza kandi ijyanye n'igihe.

Igikoresho cyifashishwa mu kujyana amakuru ahantu hanini kitwa porojecteri kimanitse hejuru. Kifashishwa mu gihe cy'amasomo aho umwarimu acomekaho imashini ye, ibiri mu mashini bikabasha kugaragara ari binini imbere, buri munyeshuri akabasha kubibona.

Icyumba cy'ishuri ryigirwamo kandi kuri buri ntebe hateretseho mudasobwa, bishoboka cyane yuko bahigira isomo ry'ikoranabuhanga kandi imbere hari ikibaho cyifashishwa kugira ngo ibyo bari kwiga babashe no kubibona imbere, bityo babashe kubifata byoroshye.

Mu ishuri cyangwa se mu cyumba cy'inama, amabanderore amanitse ku nkuta ebyiri, byerekana yuko ari abantu bari mu nama, abarimu cyangwa se abandi bantu bahuriye ku kintu kimwe, yiga ku ngingo, ku ngingo zitandukanye zijyanye n'imyigire cyangwa se amasomo asanzwe.

icyapa cyerekana IPRC huye repair center, ni ahantu hakorerwaga, hasanirwaga computer bigeze kujya baha abanyeshuri zitwa positivo zabaga zarangiritse, uyu mushinga n'ubundi uruganda rwa positivo ni narwo rwashyizeho iyi repair center, kugira ngo ifashe abanyeshuri bafite computer zangiritse.

Ishusho iri ku gipapuro kimanitse ahantu kuri sare irurijeho, kamera byerekana yuko iyi sare irimo izi camera zitwa c c tv zifasha mu kugenzura no gucunga ibikorerwa muri iyo sare yaba ari inama cyangwag se ari nk'ikizami, kugira ngo buri gikorwa cyose kihabera habe hari umuntu uri kukireba ari kureba ibiri kwakorerwa byose.